Umugabo munini kandi muremure, wambaye ikoti, uri gutanga ijambo, imbere y'abantu benshi, itara rimumuritse mu maso, inyuma ye hari icyapa, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umwe mu bayobozi b'ikipe y'umupira w'amaguru ya Gisirikare yasabye abitabiriye uyu mukino gushyiramo imbaraga bagakora imyitozo myinshi kuko usibye kuba ari ugukora imyitozo ngororamubiri bishobora no kubatunga imbere hazaza habo.

Batandukanye harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, bitabiriye inama yabereye ku biro by'akagari ndetse bari gukoma amashyi bashimira umuyobozi umaze kubagezaho ijambo, aho bavuga ko bishimiye imyanzuro yavuye muri iyo nama.

Iherereye ,mu nzu ishinzwe kuberamo imikino imyidagaduro n'ibindi bitandukanye, hateraniye abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore, iri kwiga ku bibazo by'umutekano uhangayikishije abaturage,, aho yitabiriwe n'abasirikari abapolisi ndetse n'inzego zitandukanye z'igihugu.

Imyambaro y'intore ku ruhande rw'abagabo ibamo urunigi bambara mu ijosi, ikabamo amayogi bambara ku birenge ndetse n'inkweto zifunguye ibyo byose bibafasha kubyina nta kibazo na gito bafite.

Mu gikari ahagenewe gutunganirizwa ibikoresho by'ububaji birimo intebe, ameza, ibitanda, hari umusore urimo arategura intebe urimo ayoza akoresheje icyuma cyagenewe koza ibyo bikoresho.

Kontineri nini cyane, iteretse iruhande rw'abantu bari mu kazi, bambaye imyambaro y'akazi, irimo iy'icyatsi, iy'umutuku, iy'umukara ndetse bambaye n'ingofero zibarinda kuba bakangizwa n'ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu batandatu bigaragara ko bakora umwuga w'ubwubatsi, harimo abirabura batanu ndetse n'umuzungu umwe bari kuganira batanga ibitekerezo, inyuma yabo hari imodoka isa n'umweru.

Umwe mu mudugudu w'icyerekezo wubatse ahantu hamwe, wagejejweho amashanyarazi, binyuze mu guhabwa insinga ziturutse ahantu hamwe, zose zitangwamo umuriro ufite ubushobozi bwo gucanira ingo nyinshi, mu gihe kimwe.

Urwinjiriro rw'ishuri ry'ubumenyingiro n'imyuga rwa Kicukiro rwaravuguruwe aho ubu habasha kwinjiramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye kandi byose byinjiriyemo icyarimwe ibyo bigatuma horoherezwa abahagana kudakererwa mu rugendo rwabo.

Bamwe mu bitabiriye siporo rusange yabereye mu Murenge wa Kicukiro barishimira intambwe iyi myitozo ngororamubiri imaze kubagezaho ndetse n'ubusabane buboneka muri iyi myitozo kuko abahahurira abenshi baba badasanzwe baziranye.

Tujyane i Kagitumba hamwe mu hari ingoro igaragaza amateka yo kubohora igihugu cy'u Rwanda hari igicumbi kuko habitswe intwari nyinshi zitandukanye zagize uruhare rukomeye mu kubohora igihugu cy'u Rwanda.

Muri gahunda yo kwagura ireme ry'uburezi leta yubatse ibikorwa remezo birimo amashuri menshi kandi ageretse kugira ngo abana bajye babasha kwigiramo kandi badacucitse cyane mu buryo bwo kuzamura uburezi bwabo.

Ikibuga cyagenewe gukinirwamo umupira w'amaguru kiba kigabanijwemo ibice bibiri bitandukanijwe n'umurongo wera wambukiranyamo ikibuga kabiri ndetse kikaba kirimo ibyatsi bituma abagikinamo batabasha kugira impanuka ngo bakomereke cyane.

Igishushanyo mbonera cy'inyubako y'umurenge, cyatewe hafi y'ikibanza iyo nyubako izubakwamo kugira ngo kiburire abahatuye ko aho hantu hatagurishwa kandi nta kibanza gihari cyo kuba hakubakwamo izindi nyubako.

Inama nyunguranabitekerezo y'Akagari, yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, harimo abaso, abasirikari, abapolisi, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari arimo aratanga ibitekerezo ku byo barimo baraganiraho.

Bamwe mu banyemategeko igihe bari bambaye impuzankano y'imipira y'ibara ry'icyatsi, basobanuye ko iyo abantu batitaweho neza uburenganzira bwabo buhonyorwa, kandi bikaba bigoye kubigarura mu murongo.

Mu muhanda wa kaburimbo ahari icyapa kiburira kerekana ko hahurirwa n'ibinyabiziga bitandukanye abahagenda bakwiye kwitonda kugira ngo batavaho bakoze impanuka bakagongana n'ibindi binyabiziga.

Imwe mu nyubako abagenzi bategerererezamo ibinyabiziga bibatwara hirya no hino hatandukanye, irasakaye kandi ifite uburyo bwo gufata amazi kugira ngo abugamyemo batanyagirwa.

Itsinda ry'abahinzi benshi, bari mu murima, bari guhinga bakoresheje amasuka, amarasoro, n'ibindi bikoresho bitandukanye. Inyuma yabo hari ibihuru, ndetse imvura yaguye harakonje cyane.

Umwe mu bategarugori uri mu bahagarariye umutekano, yagiriye inama abaturage yo gukomeza kwitwararika ndetse bakamenya ko umutekano ari ingenzi kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Abayobozi bo mu nzego z'umutekano z'igihugu zitandukanye bateraniye hamwe mu kwiga ku kibazo cy'umutekano muke uri kugaragara muri bimwe mu bice bigize igihugu, aho bafashe umwanzuro y'uko hagomba gushyirwaho irondo rya kinyamwuga.

Umukinnyi wambaye ikabutura n'umupira uriho nimero esheshatu, ari mu kibuga iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare wiyogoshesheje akamaraho umusatsi wose.

Kirimo ibyatsi bitoshye birebire, hahagazemo umukinnyi wambaye imyenda ya siporo yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi hari n'undi uri kumurebera hirya, bigaragara ko yishimiye cyane imyitozo ngororamubiri arimo arakora.

Ubwo ikipe y'umupira w'amaguru ya Mukura n'ikipe y'umupira w'amaguru y'Amagaju byakinaga bigasifurirwa n'umutegarugori imvura yaguye ari nyinshi ikibuga kiranyerera bituma umukino usubikwa biteganijwe ko uzasubukurwa mu kwezi gutaha.

Umwe mu Midugudu igize aka Karere irimo inzira nyabagendwa yubatse mu buryo bugezweho, aho abaturage bayigendamo badahura n'ibyondo igihe imvura yaguye cyangwa se ivumbi igihe izuba ryavuye ari ryinshi.

Kimwe mu byapa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu baturage, kigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse kikaba kiriho imibare ushobora kwitabaza mu gihe waba ugize ikibazo uhura nacyo cyerekeranye n'amazi.

Mu nzira nyabagendwa igabanijemo ibisate bitandukanijwe n'umurongo ucagaguye, bigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga wese yemerewe kuhanyuriraho ikindi, kandi yemerewe no kuhahagarara umwanya muto.

Mu kibuga cyagenewe kwigishirizwamo ibinyabiziga, harimo imodoka imwe itukura n'indi y'umweru aho imwe iri gusubira inyuma indi irimo iraza igana imbere aho yarigiye kugonga umuntu.